Idamu y'amazi, ikiyaga cyangwa uruzi, cyangwa se iriba riri ahantu mu gishanga, hirya gatoya hari hameze nk'ahagomeye cyangwa ahari ubwato, abantu bambukiraho cyangwa inzira runaka.

Umugabo wambaye imyambaro y'ubuhinzi nka bote, ingofero n'imyambaro yindi isanzwe itari iyo kurimba, uri gutera igiti, kimeze nka voka cyangwa ibindi biti bivangwa n'imyaka, aho yahinze ibigori.

Ibigori bimaze kwera bihinzwe mu murima ariko byabangamiwe n'ibindi byatsi byinshi, kuko byakuze cyane ndetse ibigori ntibibashe kwera mu buryo bwiza.

Ahantu hashyizwe imbuto zitandukanye z'indyoshyandyo cyangwa ibirungo, harimo imboga inyanya, ibitunguru, imiteja bimeze nk'ibyashyizwe mu isoko cyangwa ahandi hantu runaka byajyanywe gucururizwa.

Umukumbi w'ihene ziragiwe mu ishyamba ririmo ibiti n'ibyatsi bikuze hari n'umushumba hirya uziragiye cyangwa undi muntu runaka na we uri muri iri shyamba ihene baziraragiyemo.

Ishyo ry'inka zitoshye ziragiwe mu rwuri kuko hari umuntu urimo utunga urutoki ameze nk'urimo kwereka undi muntu runaka, n'inka cyangwa umubare runaka wazo uko zingana.

Akamashini kifashishwa basuzuma ubuziranenge, bw'imyaka runaka yahinzwe cyangwa yasaruwe n'umuntu w'umuhinzi runaka, igihe agiye kuyigurisha ku isoko cyangwa ahandi ku ruganda runaka hakira umusaruro w'ubuhinzi.